Abayobozi batandukanye harimo n'abapolisi batoranijwe bari mu nama, ndetse hakaba hari n'abandi bashinzwe umutekano, bakaba bateranijwe kugira ngo habe inama bakomeze gukora neza.

Abantu bazimya inkongi z'umuriro baje kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro. Aho bagiye gutabara abo bantu bahuye n'ibyo byago.

Abantu batandukanye bitabiriye inama aho batoranyijwe kugira ngo bitabire iyo nama, maze bazageze ku bandi baturage ibyayibereyemo. Bicaye basa neza kandi iyo nama iri kubera mu cyumba gisa neza cyane.

Inama yahuje abayobozi batandukanye barimo abasirikare n'abapolisi ndetse n'abandi aho yitabiriwe n'abaturage batandukanye, ikaba iri kubera mu kigo cy'amashuri, aho byoroheye abaturage kwitegura kugira ngo babaze ibibazo cyangwa se basubizwe ibibazo bafite.

Abasirikare b'Abanyarwanda batonze umurongo barangajwe imbere n'abagore cyangwa se abakobwa, harimo abagore harimo n'abagabo aho bari ku murongo umwe n'icyerekezo kimwe.

Kamera yashyizwe aha hantu kugirango umutekano waho ugume wizewe kandi ikintu cyose gikozwe kijye kigendera mu mucyo.

Amakamera yesitaye ku buryo umuntu ukoze ikosa cyangwa umujura ashobora gufatwa hifashishijwe ayama kamera yesitaye ku buryo bumeze neza kandi ahantu hameze neza.

Abantu bateranyirijwe hamwe, kugira ngo bige ku kintu runaka, aho bicaye ku ntebe z'abanyeshuri, ndetse ha bakaba hari n'abayobozi bateranyije iyo nama, kugira ngo bige ku kintu runaka.

Abantu batandukanye bahuriye ahantu hamwe bari kuganira, bakaba basa neza cyane bambaye neza amakoti, ndetse bakaba bari n'ahantu hafite isuku, aho bose bamwe muri bo bafite icyo kunywa.

Abantu bahuriye hamwe mu rugo rw'umuntu aho bagiye gusura, bamwe muri bo bakaba bikoramukanya kandi bakaba bari bafite ibyo kunywa, bamwe bafite inzoga, abandi fanta.

Inama yahuje abayobozi batandukanye, aho bose bicaye mu cyumba gisa neza, kandi kandi bakaba bakurikiye ibyo barimo kubwirwa.

Abaturage bahuriye hamwe bitabiriye inama, aho bicaye hasi batuje, bateze amatwi ibyo abayobozi bari kubagezaho.

Inama yahurije hamwe abayobozi bo mu nzego zitandukanye aho bicaye ahantu hasa neza kandi bicaye batuje nabo basa neza kugira ngo barebere hamwe icya komeza guteza u Rwanda rwacu imbere.

Inama yahuje abaturage n'abayobozi aho umuyobozi arimo kuvuga ndetse n'abaturage bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo ashaka kubagezaho.

Abantu, abagore bambaye imishanana mishya, bakaba bari kumwe n'umugeni ndetse na marene bakaba batashye ubukwe bwo gusaba no gukwa, kuko aribwo bwambarwamo imikenyero.

Isekuru isekurirwamo ifu, aho umuntu yahoze asekura ifu, noneho ikaba yanoze gusa akaba yashinzemo umuhini mu gihe atari yayikuramo.

Abana basuye ahantu h'umuco nyarwanda, aho bamwe muri bo, umwe muri bo yafashe ari gusya ifu ku rusyo, abandi bagenzi be bamurebera uko bikorwa, bose basa neza cyane.

Abantu bateraniriye hamwe bateranyijwe n'igikorwa cyo gukora umuganda harimo: Abakuruwaruje, ndetse n'abandi bantu babiyunzeho bari kubafasha kugira ngo basibure inzira cyangwa se banoze ikindi gikorwa cy'iterambere.

Abakaraza barimo kuvuza ingoma kugira ngo ababyinnyi babone babyine ibintu byiza, kandi bitoje. Bakaba bafite imirishyo, ndetse bakaba bambaye impuzankano zibaranga.

Abasaza bavuga amazina y'inka, bafite inkuyo mu ntoki zabo, bakaba bambaye imikinyero isa neza, ndetse n'inka n'azo zisa neza cyane.

Intore zirimo kubyina， zigaragaza umuco wacu nyarwanda， ndetse bafite ibikoresho bimwe na bimwe nyarwanda， amacumu，ndetse bakaba bambaye amayugi，n'ibindi bintu，bigaragaza umuco wacu.

Aba bantu bari gusangirira hamwe mu umuvure ikigage ,bakoresheje imiheha ikozwe mu biti . Akaba ari umuco wa kinyarwanda wo hambere . Bakaba bari kwizihiza nk'umunsi mukuru runaka.

Mu bantu bagaragaza umuco wacu wa kera, aho imyambaro yambarwaga ,ariyo bambaye ndetse bafite n'amacumu kandi bameze neza.

Aha hari abaturage bishyize hamwe bakora ishyirahamwe ryo gukora uduseke n'amaparato, basa neza basa n'abiteje imbere barafashanya, mugenzi wabo ndabona bari kujya barerekererana kugira ngo bose babimenye.

Umuntu wicaye ku musambi, aho kwicara ku musambi cyangwa se ikirago mbere ari byo byicarwagaho cyane, kuko imikeka ntayabagaho akaba yawurambuye ahantu heza hafite isuku.

Ababyinnyi bambaye imyenda ya kinyarwanda, imishanana baje kubyina, aho bambaye imikenyero zisa neza, bakaba bateze ingori bakaba bari kumwe n' ababyinnyi ba bagabo, bose bambaye neza bambaye n' amayugi abafasha kumvikanisha imbyino zabo.

Ababyinnyi b'imbyino za kinyarwanda barimo kubyina, bambaye imishanana, ndetse bateze urugori, aho barimo kubyina imbyino imwe bitoje.

Umukino gakondo ukinwa n'abantu bose batandukanye, akenshi abagabo gukina urusoro, aho ruri gukinirwa ahantu heza cyane kandi hatuje.

Igisabo ndetse n'inkongoro bigaragaza umuco w'abanyarwanda, aho ahantu bimeze neza ku buryo nta muntu wabihutaza cyangwa ngo abyangirize.

Inzu igaragaza umuco nyarwanda, aho ibitse amateka y'u Rwanda y'ukuntu ibintu byari bimeze kera cyane ku gihe cy'abami.

Isekuru ibaje neza cyane igaragaza umuco wacu wa kinyarwanda, aho isekurirwamo ibintu bitandukanye ariko cyane cyane, ikaba yifashishwa mu gusekura isombe.

Abagore batandukanye bari kumurika umuco nyarwanda. Bambaye imishanana ndetse bakaba bicaye ku birago ndetse hakaba hari n'ibindi bikoresho bigaragaza umuco wacu wa kinyarwanda.

Ababyinnyi babyina imbyino nyarwanda barimo kubyina, aho bambaye imishanana isa, ndetse bakaba bafite abantu barimo kubyinira izi mbyino.

Aha hari abakaraza barimo kuvuza ingoma, uw'umuhungu ndetse n'abandi bari gukoma amashyi baririmbira ababyinnyi, kugira ngo bagaragaze umuco wacu wa kinyarwanda.

Ikirago kirambitseho inkoko ndetse umuntu akaba afite ibishyimbo mu cyibo, aho ari kubisuka kuri iyo nkoko kugira ngo abirobanure.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino za kinyarwanda intore, abagabo ndetse n'abagore bambaye n'imyenda itandukanye nka mayugi n'ibindi.

Inka ziri kurisha ubwatsi, aho ziri ahantu hameze neza, kandi na zo zikaba zimeze neza, zishishe, hakaba harimo n'inyana, ndetse zose zikaba zimeze neza.

Intore zambaye kinyarwanda zambaye amayogi, zirimo kubyina imbyino nyarwanda, zaserukiye ahantu hateraniye abantu batandukanye b'abayobozi kuko hari idarapo, amabara agize idarapo ry'Igihugu.

Imubyinnyi w'umugore, wambaye umushanana ndetse akaba ari kugaragaza umuco nyarwanda, aho ari kubyinira abantu bitabiriye inama yahuje abantu batandukanye, akaba yambaye imyenda ya kinyarwanda umushanana.

Abakaraza ndetse banaririmba, baririmbira ababyinnyi barimo kubyina imbyino nyarwanda, barimo kubyina barimo kuvuza ingoma bafite imirishyo, bambaye n'imishanana ndetse bateze urugori.

Abana barimo gukina umukino wa kinyarwanda wo gusimbuka urukiramende, aho bitoza gusimbuka ahantu harehare cyane.

Intore z'abanyarwanda zakiriye abanyamahanga, aho ziri kubereka umuco nyarwanda, bambaye impuzankano zibaranga ndetse n'amayugi ndetse bafite amacumu.

Intore irimo kubyina yambaye iby'umuco nyarwanda, aho irimo gushimisha abantu, kuko imbyino nyarwanda iradushimisha twese, ikaba na yo imeze neza, yishimye, iri guseka.

Inzu yutswe mu bikoresho by'umuco nyarwanda, harimo ibikoresho bitandukanye bya kinyarwanda, ingoma icumu ndetse n'ibindi.

Umukecuru wicaye ku kirago akaba arimo kuboha igiseke kugira ngo nakirangiza azakigurishe, maze amafaranga ayifashishishe.

Abantu babiri barimo gukina umukino gakondo w'urusoro, aho bari kuwukinira mu bucaca, ahantu hatuje cyane, bakaba bafite n'icyo kunywa kiri mu gacuma, bakaba bari kunywesha umuheha.

Ababyinnyi bambaye imikenyero cyangwa imishanana barimo kubyina imbyino nyarwanda, aho bose bari kubyina ibintu bimwe, hakaba hari ingoma ndetse zirambitseho imirishyo, bakaba bari ahantu hasa neza cyane.

Umugozi w'imashini urambitse ku meza, aho nyirawo yawurambitse, kugira ngo abe akora ibindi, mu gihe atacometse, ngo imashini ye ijyemo umuririro.

Ibikoresho byifashishwa mu bikorwa by'amashanyarazi, aho harimo umapurize akoreshwa umuntu ari gucomeka ibintu bitandukanye, birimo amaterefone, amatereviziyo n'amapasi.

Igitwe cya sharigeri gikoreshwa iyo umuntu agiye gusharija. kikaba kimeze neza kandi kirambitse ahantu hameze neza.

Inyubako ya etaje， imeze neza cyane，ikorerwamo imirimo itandukanye，aho ku ruhande rwayo，hasa neza， kandi nayo ikaba imeze neza cyane.

Imashini ikora umuhanda, iri mu muhanda bari gukora umuhanda aho imwe irimo kumena amazi, indi ikagenda itsindagira.

rusengero rusengerwagamo n'aba katorike, paruwasi ya Rejina Pacisi, rusa neza kandi rufite isuku.

Umuhanda urimo kubakwa na leta, aho abantu batari gukoresha umuhanda kugira ngo bamanze bashyiremo kaburimbo, hakaba hari ibimodoka bikora imihanda.

Urusengero rwubatse neza cyane kandi rufite isuku, aho abantu bashaka gusengera, bamwe bakaba bari kuvayo, abandi bari kurujyayo, rusa neza cyane kandi bwubatse neza.

Mu muhanda hasa neza, ufite n'idarapo aho abantu banyura cyangwa bakahakorera ubucuruzi butandukanye, aho hari ofise ya Rwanda Reveni ya Nyabihu.

Urusengero rwa Adeperi paruwasi Rwinkuba rusengerwamo n'abadeperi, aho bamwe bari hanze y' urusengero rushobora kuba rwuzuye cyangwa se bakaba bategereje ikintu runaka.

Aba bantu bari kugenzura ibikorwa remezo byabereye muri ikicyaro. Bari no ku kiraro cyubatse hejuru mu kirere, bose bambaye udupfukamunwa. Ubanza ahari ari mu gihe cy'icyorezo.

Ibiro by'intara y'amajyaruguru bimeze neza cyane birasukuye amadirishya amezeze neza arimo ibirahuri byose bikiri bizima ntacyangiritse na kimwe birasa neza rwose.

Ibiro by'umuyobozi aho harambitseho akantu ko guterekaho impapuro zitandukanye, kugira ngo amenye aho ziri ataza kuzibura, kuzishaka akazibura kandi azikeneye.

Etage yubatse neza cyane, kandi ikaba iri ahantu heza hafite isuku kandi ibereye ijisho, ubona ko hari iterambere ikaba ikorerwamo ibintu bitandukanye.

Ikiraro leta yubakiye abaturage cyo kunyuraho hejuru mu kirere kijyanye n'iterambere, aho badashobora kugwa mu mazi igihe imvura yabaye nyinshi.

Icyapa kerekana aho adeperi itorero rya kinzovu riherereye, kugira ngo abajyayo bamenye aho bagomba kunyura.

Urusengero rwa kiliziya gaturika paruwasi ya Rwaza rusa neza rufite isuku, aho hari abantu batandukanye bavuye kuhasengera, hakaba hameze neza nubwo inyubako isa n'imaze igihe kiniini cyane.

Aha ni mu nama y'abaturage, aho umuturage yemerewe guhabwa uburenganzira bwe akabazaca icyo ari cyo cyose yifuza kubaza, abayobozi bahari ndetse hakaba hari n'abashinzwe umutekano w' abayobozi.

Inama yabereye muri karitsiye, yitabiriwe n'abaturage b'iyo karatsiye, aho bari kuganira ku bintu bitandukanye bose batuje, bateze amatwi kandi bari guharanira uburenganzira bwabo.

Inama yahurije hamwe abaturage benshi, aho bose bicaye batuje bari kureba icyo umuyobozi yaje kubagezaho, ndetse nabo bakamugezaho ibyifuzo, ndetse n'ibibazo byabo nkaho bicaye batuje kandi bose bakurikiye.

Abayobozi bitabiriye inama ndetse n'abaturage, aho abatoranijwe barimo kumva ibijya mbere muri iyi nama, ndetse bakaba basa neza, ndetse n'inama yakorewe hafi y'abaturage, kandi ahantu hasa neza cyane. We!

Abaturage batandukanye bitabiriye ibikorwa bya Leta， aho bari mu nama kandi buri wese akaba afite ijambo， kugira ngo uburenganzira bw'umuturage bukomeze kuba ku isonga.

Inama y'abaturage bahurijwe hamwe kugira ngo umuturage abone uburenganzira bwe aba azi ,ibibazo bitandukanye aho abayobozi bicaye mu myanya myiza, isa neza, na bo basa neza, ndetse n'abaturage bayitabiriye bateze amatwi.

Abaturage bitabiriye inama yabahuje n'abayobozi babo， kugira ngo babashe kubaza ibibazo bitandukanye， ndetse babibonere ibisubizo.

Inama yahuje abaturage bagiye batoranyijwe ndetse n'abayobozi aho umuturage umwe ahagurutse afite icyo ari kugeza ku buyobozi ndetse na bagenzi be bose bakaba bicaye batuje badafite akajagari.

Ikibuga k'indege cya rwandeya, aho abakozi bagikoraho batandukanye bahagaze ku murongo neza. Basa neza kandi bambaye udupfukamunwa.

Umumotari utwara lifani aho agemura amata, akaba ari kumwe n'abandi bantu batandukanye bayitaho, ndetse hakaba hari n'abandi ku ruhande bambaye amajire na bo bashobora kuba bagemura ayo mata.

Imodoka yifashishwa mu gupakira imyaka iyijyanye ku isoko, aho abahinzi bapakiyemo imyaka yabo bayishyize mu mifuka ngo ijyanwe ku isoko.

Gare ihurirwamo n'abagenzi batandukanye bajya mu byerekezo bitandukanye, aho bagiye gushaka imodoka ngo zibafashe kugerayo vuba, hakaba hari n'imodoka zo kubafasha kujya muri ibyo byerekezo bashaka kujyamo.

Imodoka yifashishwa mu gupakira ibintu bitandukanye, aho ubu ipakiye imizigo ibivanye mu cyerekezo kimwe ibijyananye mu kindi, aho iri mu muhanda umeze neza usa neza ufite isuku.

Imodoka itwara abagenzi mu byerekezo bitandukanye , aho imeze neza kandi ikaba iri kugendera mu muhanda , nawo usa neza iparitse mu muhanda umeze neza kandi nayo imeze neza.

Gare yahuriwemo n'abagenzi batandukanye bagiye mu byerekezo bitandukanye, aho harimo abanyeshuri bagiye kujya ku mashuri yabo, bakaba barindiriye imodoka zibajyana.

Imodoka yifashishwa mu bucuruzi butandukanye cyangwa gupakira ibintu bitandukanye, Ni ahantu hasa neza, hafite isuku, kandi imeze neza cyane.

Abagore basa neza cyane, bicaye, umwe yicaye kuri rifani, aho yiteguye kuyikoresha ikazamuteza imbere, akayikoresha mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi byo kwiteza imbere.

Imodoka ziri muri gare aho zitegereje abagenzi ndetse n'abagenzi bakaba baje kuzishaka, imodoka zibatwara mu byerekezo bitandukanye bashaka kujyamo.

Umumotari uri mu muhanda gushakisha abagenzi, ndetse aho abantu bari kujya mu byerekezo bitandukanye mu mirimo yabo ya buri munsi, ndetse hakaba hasa neza hafite isuku bigaragara ko ari mu mugi.

Imodoka zitwara abagenzi mu byerekezo bitandukanye mu gihugu, aho ziri, aho ziparika zikaba ziparitse ku murongo kandi zisa neza. N'aho ziparitse hakaba hafite isuku hasa neza cyane.

Imodoka yifashishwa mu gupakira ibintu bitandukanye birimo peterori cyangwa se ubundi bupakizi bw'ibisukika, ikaba isa neza cyane, kandi ikaba iri n'ahantu hasa neza cyane.

Umugore wahawe igare kugira ngo ajye aryifashisha mu bikorwa bijyanye na taransiporo yo kuva mu cyerekezo kimwe ujya mu kindi, aho igare rikiri rishyashya akaba ameze neza, ndetse n'urimuhaye nawe akaba ameze neza.

Gare yo mu mugi aho abagenzi ari benshi cyane, bategereje imodoka kugira ngo batahe iwabo. Amasaha arakuze none abagenzi ni benshi. Barindiriye imodoka kugira ngo baze zibatware.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abantu iri mu muhanda usa neza. Kandi nayo isa neza bigaragara ko ishobora kuba itwaye abantu ahantu hatandukanye.

Amakamyo apakira ibintu bigiye bitandukanye, abivana hamwe abijyana ahandi, hakaba hari umuntu ushinzwe kuyarebera ndetse akaba ari hano asa neza.

Gare ihurirwamo n'abagenzi batandukanye bagiye mu byerekezo bitandukanye, aho basanga imodoka kugira ngo zibafashe kugera iyo bajya neza.

Umumotari utwaye umugenzi amujyanye iyo agomba kujya, bakaba bari mu muhanda usa neza, kandi na we akaba ari kugenda yitonze ku buryo batakora impanuka.

Abamotari bari mu kinigi bafite abagenzi bagiye gutwara. Umama n'umugore , umumama n'umugabo bari mu umuhanda usa neza ufite isuku kandi nabo bakaba basa neza.

Gare ihurirwamo n'abantu batandukanye baje gutega imodoka kugira ngo bage mu byerekezo bitandukanye, aho harimo imodoka zo kubatwara zitandukanye n'abagenzi baje bazigana, kugira ngo babageze aho bagiye kujya.

Umumotari waje mu kazi gushaka abagenzi, kugira ngo abafashe kugera iyo bajya mu byerekezo bitandukanye, mu mirimo yabo maze na we abone amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere.

Abantu bicaye kuri moto isa neza cyane, ndetse nabo basa neza cyane. Bambaye neza kandi bafite isuku, n'aho bari hafite isuku, aho bose bambaye udupfukamunwa bisa nkaho hari icyorezo cyaba kiriho, bakaba bari gusuzuma ukuntu bimeze.

Abanyonzi bari kumagare yabo biteguye gutwara abakiriye cyangwa se abagenzi mubice bitandukanye, kugira ngo ubuzima bwabo bwaburimunsi bakomeze kwiteza imbere.

Imodoka zipakira ibicuruzwa zibivanye mu mahanga zibizanye mu gihugu, cyangwa zibivanye mu gihugu zibijyanye mu mahanga, aho ziri ahantu hameze neza, hafite isuku, kandi nabyo, nazo zikaba zipakiye ibintu neza.

Abagenzi bari mu bwato bashaka kwambuka banyuze mu bwato. Ni benshi cyane. Bamwe baricaye, abandi barahagaze kugira ngo babashe kwambuka.

Imodoka yo mu mujyi wa Kigali yifashishwa mu kujya mu byerekezo bitandukanye, aho iparitse ahantu hameze neza hasa neza, kandi nayo ikaba isa neza cyane, ifite n'amabara ameze neza.

Abamotari bari mu muhanda, aho bose mbona bari ku murongo umwe, bashobora kuba baziranye cyangwa se bari kunyuranaho, uwo muhanda ukaba ukoreshwa n'abagenzi bose kandi ukaba usa neza.

Iyi gare irimo imodoka nyinshi zitandukanye n'abantu benshi. Buri wese afite aho ari kwerekeza. Abategereje kwinjira mu modoka ndetse n'abandi bantu bambaye amajire bakorera ma Agency zitandukanye.

Gare yo mu mugi，aho haparitse imodoka nyinshi zitandukanye， zijya mu byerekezo bitandukanye， aho abagenzi bitewe n'aho bajya， baza bagana aho izo modoka ziri，maze zikabafasha kugenda mu byerekezo byabo.

Abantu batandukanye bagiye gutira utugare tw'igihugu kugira ngo tubafashe kugera aho bajya, ndetse bahagerere ku gihe.

Imodoka itwara abagenzi mu byerekezo bitandukanye，imeze neza， kandi n’abagenzi bicayemo bameze neza，bicaye batuje.

Mu modoka ya Hoho yifashishwa mu gupakira ibintu bitandukanye cyane cyane ibikoresho by'ubwubatsi aho yagiye gupakira itaka ryo kwifashisha mu bwubatsi.

Igikoresho cyifashishwa mu gupakira ibintu bitandukanye, aho bagipakiyeho amajerekani, bakaba umwe agitwaye, undi arimo kumureberera, bari mu muhanda usa neza, aho abagenzi bamwe na bamwe bari kubitegereza.

Abakinnyi bakina Voleboro, aho bari mu marushanwa, barimo gukina Vore, bakaba basa neza, bambaye neza ibibaranga, ndetse n'umutoza wabo bakaba bari kumwe.

abasiporutifu batandukanye bahuriye mu kibuga cya basikete, aho basoje imyitozo bakaba bari gufata ifoto, ndetse n'abandi bayobozi bari bari kumwe na bo muri iyo myitozo.

Abasiporutifu batandukanye baje muri siporo ndetse bakaba bambaye inifomu zisa n'udupira twanditseho Rwanda , bakaba bagiye gukora imikino itandukanye.

Abakobwa bari muri siporo yo kwiruka, aho bari gusiganwa bambaye nimero zitandukanye zibaranga, bakaba bambaye imyenda ya siporo, basa neza kandi bari gukorera siporo ahantu hasa neza.

Umukinnyi ukina tennis yagiye mu kibuga, aho ari gukina na mugenzi we, kandi bafite abantu barimo kubafana bari muri kompetisheni.

Abakinnyi b'abagore n'abakobwa bakina umukino wa voreboro, aho bari mu myitozo bakaba bambaye iniforume. Babiri bakaba bari ikipe imwe, ndetse n'abandi babiri bari bahagarariye indi kipe.

Abakinnyi bo mu bigo bitandukanye bahujwe no gukina umupira wa vore, aho bari mu kibuga gisa neza kandi na bo basa neza, ndetse n'abanyeshuri bagenzi ba bo baje kubafana n'abarimu babo ndetse n'abatoza, ababtoza bakaba bari kubareberera uko barimo gukina.

Umusifuzi usifurira abakinnyi mu kibuga iyo bari gukina imikino, akaba ari mu kibuga kandi ari gusifura aho yambaye imyenda ya siporo.

Umupira ukoreshwa bari gukina umukino wa voreboru aho urambitsa ahantu hasa neza cyane, kandi nawo ukaba ukiri mushasha batari bawukinaho.

Umukinnyi ukina umukino wa tenisi yaje ku kibuga gukora imyitozo kugira akomeze abe umukinnyi mwiza muri byose.

Abakinnyi bakina tenisi bari mu kibuga, aho bari gukina uwo mukino wa tenisi. Bakaba bambaye imyenda ya siporo ibafasha kuwukina neza. Bakaba kandi bawukinira ahantu uwo mukino ukinirwa hameze neza.

Amarushanwa ya voreboro ari kuba, yahuje amakipe abiri atandukanye. Hakaba harimo ikipe ya Rwanda neshonoro polise, hamwe n'indi kipe. Abafana impande zabo, ndetse n'abatoza babo baje kubashyigikira.

Abantu bari muri siporo batwara amagare ya turu di Rwanda bakaba bari mu marushanwa kuko abantu benshi bashungereye ndetse hakaba hari n'imodoka iri inyuma yabo ku buryo hagize ugira kibazo yakihutira kumutwara.

Umukobwa uri gukina umukino wa tennis, aho ari mu kibuga yambaye inifomu, kandi akaba ari kwiruka ku gapira bakinisha tenisi.

Abakinnyi barimo gukina umukino wa basiketi, aho bari gukina ari amakipe abiri atandukanye, bakaba bafite inifomu bose bambaye ibaranga, kandi bakaba barimo gukinira ahantu hasa neza cyane.

Umukino wa voreboro wahuje amakipe abiri atandukanye ku bigo by'amashuri, aho bari mu kibuga barimo gukina uko mukino bambaye inifomu zibaranga, ikibuga kikaba gisa neza kandi bakaba bafite n'abafana bose.

Inyubako ya Kigali arena, isa neza cyane, iri Kabari mu mugi wa Kigali, aho abantu benshi bakunda, gukorera ibitaramo.

Umukinnyi wa Tenisi wambaye imyenda igaragaza ko akina uwo mukino, ari mu kibuga asa neza na ho hasa neza byiteze ko asa n'uwiteze kubona intsinzi.

Abakinnyi ba vore boro, aho bari mu kibuga gisa neza cyane nabo basa neza cyane, bambaye inifomu isa abo bari gukina vore boro, aho umwe bamupashije umupira akaba agiye kuwukina.

Umupira wa voleboro urambitse ahantu, umucanga bisa nk'aho hari uwawuharambitse kugira ngo aze kuwufata igihe araba awukeneye.

Pisine ikorerwamo ubwogero, iyo umuntu ashaka gukora siporo yo koga, ikaba iri ahantu hameze neza hatuje cyane, h'iterambere kandi hakaba hafite isuku nyinshi.

Abakinnyi b'amakipe abiri barimo gukina volley ball, kugira ngo barebe iributsinde, aho bafite abafana ku mpande zombi, kandi bakaba basa neza n'aho bari gukinira hasa neza.

Umukino wa siporo wahuje amakipe abiri atandukanye, aho bari gukinira muri sitade nziza cyane hakaba haje n'abantu benshi kubafana kandi nabo basa neza.

Ikibuga gikorerwamo siporo, aho abantu batandukanye baza bakahahurira bagakora siporo. Kirasa neza kandi kiri ahantu heza cyane.

Abakobwa bari gukora siporo, bakaba bagiye gutwara amagare, bakaba bambaye n'ibituma birinda, ku buryo batakomereka baramutse baguye hasi.

Umukinnyi ukina umukino witwa tenisi, ari mu kibuga aho ari gukina uwo mukino, akaba yambaye inifomu isa neza cyane, kandi n'aho ari gukinira hakaba hasa neza cyane.

Umukinnyi wa basketiboro ari mu kibuga aho ari gukina, akaba afite umupira mu ntoki ze kandi akaba asa neza cyane yambaye inifomo.

Umunyamagare uri muri, mu gusiganwa ku magare, aho abantu bagiye gushungera kugira ngo bafane umuntu uraba ari imbere, aho ari n'imodoka iri inyuma ye.

Umukobwa ari mu myitozo yo gukina umukino wa tenisi, aho yambaye imyenda imufasha gukina umukino neza kandi akaba ari no mu kibuga gisa neza.

Umukobwa arimo gukora siporo, aho ari gukina tenisi yambaye imyenda bakina bambaye, kugira ngo abashe kuba yisanzuye ntakintu kimubangamiye.

Abanyamagare bari muri siporo aho bari no mu marushanwa yo gutwara amagare, bakaba bambaye inifomu zibaranga, imyenda ya siporo, kandi bakaba bambaye ingofero zibafasha kwirinda, igihe baba baguye hasi.

Umusiporutifu ukora siporo zo koga ari mu mazi, aho ari mu myitozo yo koga, akaba yambaye ibimufasha koga neza, iyo ari mu koga

Abakinnyi bari gukina umukino wa basiketi, aho hari amakipe abiri atandukanye, kandi yose akaba afite abafana barimo kuyafana, basa neza, kandi n'aho bari gukinira hasa neza cyane.

Umukinnyi urimo gukina umukino wa tenisi, aho ari kwitoza akaba yambaye imyenda zitari iza siporo, gusa akaba ari gukinira ahantu hameze neza cyane.

Abasiganwa ku mukino w'amagare bari ku magare aho barimo gusiganwa bakaba bari mu muhanda usa neza, nabo kandi bakaba basa neza bambaye imyenda ituma batwara amagare yabo neza.

Abakinnyi b'umukino wa basiketibolo barimo gukina, aho bari mu marushanwa. Ikipe ya Mozambike irimo gukina n'u Rwanda bakinira ibintu bitandukanye, ibihembo bitandukanye.

Abasiganwa ku magare bari gusiganwa ,aho abaturage baje kureba amarushanwa arimo gukorwa n 'aba banyamagare.

Abafana baturutse ahantu hatandukanye bagiye kureba amarushanwa ya basiketibolo aho bose bishimye, bashobora kuba bishimiye kipe bagiye gunafana.

Pisine yogerwamo n'abantu batandukanye, iyo wishyuye ukajya koga, ushaka kuruhuka cyangwa ushaka gukora siporo yo koga.

Abakinnyi bakinira amakipe atandukanye, bahurijwe hamwe n'umukino wa volebolo ,abo bose bari guharanira insinzi ndetse bakababa basa neza aho buri bose bafite abafana baje kubashyigikira.

Inzu nziza cyane nziza kandi iri ahantu heza bafite aho kogera (pisine). Umuntu ashobora kogera ari kuruhuka, cyangwa se ari gukora siporo yo koga mu mazi.

Abanyamagare bari muri turudirwanda bari gusiganwa kugira ngo baharanire kubona ibihembo, n' amamodoka ababakurikiye kugira ngo barebeko ntawe ugira kibazo ngo bamufashe, cyangwa se ntamanyanga ari buze kubonekamo.

Abakinnyi bari mu kibuga cya tenisi, aho biteguye gukora imyitozo kugira ngo bakuze impano zabo, maze mu minsi iri imbere zizabateze imbere.

Amasiganwa y'amagare yabaye, aho abantu bagiye kuyareba mu muhanda bakaba basa neza kandi no ku muhanda usa neza ufite isuku.

Abanyonzi batwara abagenzi by'ibyerekezo bitandukanye, aho bari bategereje abagenzi mu muhanda, kandi bakaba bari ahantu hasa neza na bo ntabwo basa nabi.

Umuhanda usa neza, hariho inzira y'abanyamaguru nayo isa neza, hakaba hafite isuku, kandi nta kavuyo kari muri uwo muhanda.

Ahantu hari ubwatsi butandukanye mu cyaro, aho hari utuyira abagenzi banyuramo bagiye mu byerekezo bitandukanye, ndetse hakaba n'imima kuruhande bahingamo.

Mu muhanda unyurwamo n'abagenzi batandukanye, bagiye mu byerekezo bitandukanye, aho usa neza, ufite isuku, kandi ukaba wegereye amabutiki.

Umuhanda ujya mu byerekezo bitandukanye, usa neza, ufite isuku, bawukubuye, aho ukoreshwa n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru bagiye ahantu hatandukanye.